Ubutabazi bw'ibanze ni ikintu cyiza aho hari ibigo bishinzwe gutabara usanga umuntu ugize ikibazo haba hari utugare bamuhekaho bakamwihutana kwa muganga akabona ubuvuzi, bityo akabasha gukira neza agasubira mu kazi ke ka buri munsi.

Ni mu gihe kera umurwayi yarindaga apfira mu rugo bitewe no kutabona ubutabazi bw'ibanze, ariko nyuma y'uko ibikorwa remezo byubatswe, hajeho imbangukiragutabara, aho umuntu arwaye ahamampagara kwa muganga, bakamwoherereza imbangukiragutabara, ikaba yamufata mu maguru mashya, ikamujyana kwa muganga, akavurwa, agakira, agasubira mu rugo.

iterambere ririrukanka n'ibikorwa remezo bikirukanka, aho usanga imihanda igera ahantu hose, bityo bigatuma ubutabazi bw'ibanze buboneka ku muntu ugize ikibazo cy'uburwayi, hakoherezwa imbangukiragutabara aho yaba ari hose, ikabasha kumugeza kwa muganga agahabwa ubuvuzi.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima, ni ngombwa ko hashyiraho uburyo bwo gutabara umuntu mu gihe yagize ikibazo, akihutanwa kwa muganga. Aho ngaho twavuga nk'imbangukiragutabara ndetse n'utugare twatwara umurwayi byihuse, agahabwa ubuvuzi ako kanya. Ni byiza ko hano tuba tubona imbangukiragutabara n'utugare duhita tujyana umuntu kwa muganga bakamufasha.

Mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo, duhora dushishikarizwa ko ari byiza kuba twakoresha ubuvuzi bwihuse bw'ibanze mu gihe atari yagezwa kwa muganga. Hano hari ibipfuko, hari n'udukase dufasha mu gukata mu mugihe umuntu arimo gupfuka umuntu, hari na mapomade ukamusigiraho mu gihe atari yahabwa ubundi buvuzi.

Leta ihora idushishikariza kubaho uzi uko uhagaze mu buzima bwawe umenya indwara urwaye niyo mpamvu bajya bashyiraho uburyo bwo gupima indwara zitandura bakareba ku muvuduko w'amaraso' umuntu umeze cyangwa se ko nta zindi ndwara yaba afite, umuntu akaba afite ubuzima bwiza kugira ngo akurikiranywe mu gihe yaba asanzwe afite zimwe mu ndwara.

Muri iki gihe ntabwo umuntu akirembera mu rugo, cyangwa se ngo umuntu yabuze aho ajya kwivuriza, kuko mu bikorwa remezo bihari amavuriro ndetse n'ibitaro birahari ku bwinshi, ikintu kiza aho umurwayi atakibura aho ajya kwivuriza kandi agahabwa serivisi nziza, rero ibikorwa remezo by'ubuvuzi ni byiza.

Igihugu kiruka mu iterambere nta gice cyasigaye ndetse n'igice cy'ubuvuzi nacyo cyateye imbere, aho ubungubu kwa muganga uhasanga ababyigiye kandi babihuguriwe neza, imiti iratangwa umubyeyi iyo agiye kubyara ntagisiragizwa cyangwa se ngo tubone impfu z'ababyeyi bapfa babyara kuko ubuvuzi mu Rwanda buri gutera imbere.

Nta muntu ukibura ahantu yivuriza cyangwa se ngo ajye muri ba magendu, usange ariho havaga ipfu nyinshi, iki ni ikigo nderabuzima cya Tabagwe nacyo kiri mu bitanga serivisi z'ubuvuzi kandi neza.

Kugira ngo tugere ku iterambere twifuza kugira ubuzima bwiza ni iby'ingenzi, hano hari abaganga bafasha abantu mu kugira ubuzima bwiza babavura indwara mu gihe barwaye, maze igihugu kigakomeza gutera imbere no mu buvuzi muri rusange, dufite n'abaganga benshi kandi babyigiye basa neza.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza leta ihora idushishikariza kujya kwipimisha indwara zitandura byaba indwara z'ubuhumekero ni nyinshi ni byiza rero kujya kwisuzumisha dore ko hano turi kubona umukecuru ari kwisuzumwa n'umusirikari ni ibintu byiza ukamenya ko ubuzima bwawe buhagaze.

Nta muntu ukimbera mu rugo kuko amavuriro yubatswe ari menshi hari ibigo nderabuzima bifasha yaba ababyeyi bagiye kubyara ndetse n'abaganga babyigiye kandi bafite ubumenyi buhagije, bari muri ibyo bigo nderabuzima bityo ubuzima bw'umuntu bukaba busigasirwa ku buryo bushimishije.

Mu Rwanda nta muntu ugisiragira cyangwa se ngo arembere mu rugo kuko hubatswe amavuriro menshi, yaba n'ibitaro aho usanga umubyeyi cyangwa se n'undi wese n'undi murwayi wese agana kwa muganga, agasuzumwa, akavurwa, agakira.

Mu Rwanda ibikorwa remezo biratera imbere cyane, amavuriro akubakwa amashuri ndetse n'imihanda, maze kuba ibyo bikorwa bitera imbere nk'amavuriro menshi, nibyo bituma igihugu gitera imbere abashaka kwivuza bakabona aho bajya kandi hari abaganga babizobereyemo babyigiye bityo igihugu kigatera imbere.

Kuri ubu ibikorwa remezo byarubatswe, harimo imihanda ndetse n'amavuriro, aho umuntu asigaye abona aho kwivuriza henshi hatandukanye kuko mu gihugu harubatswe, ikindi usanga hari imbangukiragutabara zifasha umurwayi, ubuvuzi mu Rwanda bugatera imbere, nta muntu ukirwarira mu rugo cyane ko hari amavuriro menshi kandi meza.

Kera kubona ahantu wabona ibitaro ndetse n'amavuriro byabaga bigoye ariko muri iki gihe ibikorwa remezo byarazamutse aho usanga amavuriro, ibitaro byinshi ,amasuzumiro bihari ku bwinshi ni ibintu byiza ni ibikorwa by'iterambere byiza bituma umuturage abona serivisi ashaka z'ubuvuzi atabashije gusiragira.

Kwa muganga ni ahantu hafasha mu gusanasana ndetse no kugarura ubuzima bw'umuntu. Aho abaganga bafasha mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. Kubagannye atameze neza ndetse bakabasha kuba banafasha abana barwaye. Hano usanga n'abaganga barimo gukina n'abana bagenda boroherwa bityo abana bakagira ubuzima bwiza cyane.

Muri ino myaka indwara z'ibyorezo ziri kwiyongera. Aho ibitaro bisigaye byakira indwara z'ibyorezo, hano turi kubona n'abaganga bambaye bikwije mu gihe cy'indwara z'ibyorezo, ni byiza ko haba hari ibikoresho nk'ibi bigatuma abaganga birinda kuba nabo bahandurira izo ndwara, kandi bagatanga serivisi z'ubuvuzi.

Twite ku buzima bw'umwana ukiri mutoya, ahabwa ubuzima bwiza ndetse n'ubuvuzi, yitabwaho bityo umwana agakura ameze neza, ni byiza ko mwamubungabunga, mukamuha amata, mukamuha ibimutunga birimo indyo yuzuye maze umwana agakura ameze neza.

Igihugu cy'u Rwanda kiri ku rwego rwiza rushimishije mu iterambere ry'umuturage, mu iterambere ry'ibikorwa remezo. Kera umubyeyi yararwaraga yaba afite inda ugasanga habayeho ibyo guhekwa ndetse ugasanga ivuriro riri kure ariko ubu ngubu hegerejweho amavuriro, yegereje abaturage aho umubyeyi agiye kubyara umwana iyo arwaye yihutizwa akajyanwa kuri ayo mavuriro yashyizwe hirya no hino akabona ubuvuzi.

Twite ku buzima bw'umwana, tumuha indyo yuzuye ndetse abasha guhabwa amata, umwana akitabwaho, bikamufasha mu mikurire ye, harindwa indwara ndetse n'icyamuhungabanya kuko umwana yitaweho, maze akagira ubuzima bwiza.

Mu rwego rwo gutegura u Rwanda rw'ejo, ni byiza kubungabunga ubuzima bw'umwana akiri muto yaba mu burezi ndetse no mu mibereho, dutuma umwana akurana ubuzima bwiza tubungabunga amafunguro umwana afata ndetse n'isuku mu gihe kurya, kandi abana bahabwa ibiryo bifite indyo yuzuye tubitaho tubabababa hafi, umwana wariye neza agira ubuzima bwiza igihugu kikazagira abantu bameze neza.

Mu Rwanda abashinzwe ubuzima bahora bashishikariza abagore batwite kugana kwa muganga kugira ngo babasuzume barebe ubuzima bwabo buhagaze ndetse n'ubw'umwana kandi barabikora, abamama barabyitabira, noneho ikintu kiza baherekezwa n'abagabo babo, bityo ubuzima bw'umwana bukarushaho kuba bwiza kandi n'abaganga batanga ubuvuzi bwiza.

Ni byiza ko hakorwa ubukangurambaga abantu bakaganirizwa ku buzima bwo mu mutwe bityo bakabasha kuba babungabunga ndetse hakitwa no ku buzima bw'umwana, aho usanga ahabwa ubuvuzi mu gihe umwana ari mu nda cyangwa se yavutse, agahabwa ubuvuzi bityo ubuzima bukabungabungwa, umwana agakura neza.

Leta ihora ishishikariza abaturage kwirinda malariya, yaba umugore utwite ndetse n'abana bo munsi y'imyaka itanu, dukora ingamba zose ziyirwanya harimo kurara mu nzitiramibu ikoranye umuti, kandi dusiba ibinogo birekamo amazi bityo duhangane na malariya tuyirandure burundu mu gihugu cyacu.

Twite ku buzima bw'umwana akiri mu nda kuko nibwo butuma umwana avuka neza ndetse agakura neza n'umubyeyi akagira ubuzima bwiza, niyo mpamvu leta ishishikariza ababyeyi bose batwite gukurikirana ubuzima bwabo bakajya kwisuzumisha kwa muganga kuva umwana akiri mu nda kugeza avutse, ndetse bagakomeza kumuha indyo yuzuye.

Abana ni bo Rwanda rw'ejo kandi umwana n'umutware. Ni byiza kubungabunga ubuzima bwe akiri hasi, ari incuke yaba mu mashuri ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Umwana tukamutoza isuku, abana barakarabywa, ukabigisha gukaraba amazi meza n'isabune ndetse ukabona bose barabyishimiye, maze bakagira ubuzima bufite isuku, ubuzima bwiza bityo bakabaho neza ni bo Rwanda rw'ejo.

Mu urwego rwo kugira ubuzima bwiza leta ihora ishishikariza gukurikirana ubuzima bw'umwana kuva akiri mu nda aho baba babwira umubyeyi gupimisha inda inshuro umunani, kwitabira kujya kwa muganga mpaka kugeza igihe abyariye kugira ngo ubuzima bw'umwana ndetse n'ubw'umubyeyi bubungwabungwe

U Rwanda rwiza ni urwo twifuza, u Rwanda rufite abaturage beza, rubayeho neza, ni byo rero ntabwo twagerwaho rudafite ubuzima bwiza ni yo mpamvu hano turi kubona ifoto y'ubukangurambaga abantu birinda ibiyobyabwenge nk'urubyiruko by'umwihariko maze rukabasha kubaho ubuzima bwiza.

Iyo umuntu agaragaje icyo kibazo cyo mu mutwe ni byiza kugana ba muganga babyigiye neza, bakamuganiriza bakamenya ikibazo aho giherereye ndetse bakamukurikirana bakamuvura agakira cyane ko ari ibibazo bikunze kubaho ariko bivugwa bigakira, iyo umuntu aganye ababihuguriwe cyangwa se muganga.

Mu gihe ubonye umuntu afite ikibazo cyo mu burwayi bwo mu mutwe ni ngombwa ko wamuganiriza cyangwa se ukaba wamuhuza n'umuganga wabyize, wabihuguriwe maze akamufasha, tukita ku buzima bwo mu mutwe kuko ni ingenzi, butuma ukora neza akazi kawe.

Mu gihe umuntu ubona afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza kumwegera utuje cyangwa se ukaba wamufasha akabona ubuvuzi, kuko ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima bwo kwitwaho, maze umuntu ubufite akaba yaganirizwa kandi agakira nk'uko bavuga ngo baho neza kandi wite ku buzima bwo mu mutwe, ubuzima bwiza bwo mu mutwe ni uburenganzira bwa buri wese.

Mu gihe umuntu afite ikibazo ni byiza kumuganiriza, kuko hari ibyo bita ibibazo byo mu mutwe bityo ukamenya ikibazo afite akabasha kumwumva ukaba wamuha ubuvuzi cyangwa se ukamwohereza ku babishinzwe babyigiye bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, bityo akabasha gukira akagaruka mu buzima busanzwe kandi bwiza.

Tubungabunga ubuzima bwacu yaba ubuzima busanzwe yaba ubwo mu mutwe ni ubuzima bw'ingirakamaro butuma umuntu agira imibereho myiza niyo mpamvu haje Isange wani sitopu seta aho ifasha abaturage bafite ikibazo cyangwa se umuntu wahuye n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bakamuganiriza ndetse bakanamufasha.

Ubuzima burabungwabungwa ku rwego rushimishije aho hubatswe cyangwa se hashyizweho uburyo bw'amazu acuruzwamo imiti bityo nta muntu ugisiragira cyangwa se yabuze aho agurira imiti, iyo umuntu arwaye ajya kwisuzumisha bakamwandikira imiti akajya ku mazu acuruza imiti akivuza agakira.

Ibintu byo kwivuza magendu byaracitse, uretse kuba hari ubuvuzi, ibigo nderabuzima byinshi ndetse n'ibitaro, hashyiweho n'amafarumasi acuruza imiti ko nta muntu ukibura aho yivuriza cyangwa aho agura imiti.

Ubuzima buzira umuze kandi kugira ngo dutere imbere tugomba kuba dufite ubuzima bwiza, hajeho amafarumasi ni ahantu wajya kugurira imiti mu gihe ugize uburwayi, ariko ni byiza kuba twakoresha nk'abaganga bakora mu mafarumasi cyangwa se ahatangirwa imiti, kuba twakoresha ga wambara mu ntoki, kugira ngo utabasha gukora ku bintu byakwangiza indwara, nk'amaraso ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi bw'imiti nabwo bukomeje gutera imbere kandi umusaruro wabwo uragaragara umuntu iyo arwaye acayo umuganga ubukoramo akamuha umuti, akagenda akivuza tubona amazu menshi afite imiti myinshi y'ubwoko butandukanye kandi myiza ifasha mu buzima bw'umuntu yaba arwaye agakira.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, ni byiza kuba wajya kugura imiti, hajeho amafarumasi menshi, ibigo bicuruza, ni amazu aba afite imiti myinshi itandukanye kandi ku giciro cyiza, kandi ikiza abayikoramo baba barize ubuganga, baragufasha bakaba banakugira n'inama bakanagusuzuma.

Muri iki gihe ubworozi buri gutera imbere kandi butanga umusaruro kuko ibikomoka ku bworozi ni ingirakamaro. Ni byiza rero ko ubworozi bwacu dukoresha imiti irinda indwara mu matungo. Hano turikubonamo umuti bawita peperazine ufasha mu gihe inkoko woroye zigize ikibazo ukaziha ndetse zikabasha kugira ubuzima zigatanga umusaruro.

Ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'ubuvuzi muri rusange, buratera imbere cyane kuko hasigaye harabonetse imiti myinshi, mu gihe itungo ryawe ryabagize ikibazo, ugana muganga wabyize, wabihuguriwe, akagufasha, akaguha umuti ndetse ikakira neza cyane.

Nyuma yuko abantu bagiye mu bucuruzi bw'imiti, ibyo bita inzu zicuruza imiti, abarwayi ndetse n'abantu bakeneraga imiti basigaye bayibona ku bwinshi, hano haba hari amazu ashinzwe gucuruza imiti kandi usanga abayikoramo barize ubuganga bityo bagafasha ku muntu uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bakamuha umuti, akaba yabasha kunywa ndetse agakira.

Ubuzima bwiza buzira indwara ni yo ntero ya buri wese, mu rwego rwo kwirinda kuzahazwa n'indwara hajeho amafarumasi, hano turi kubona ni farumasi nini ifite imiti y'ubwoko bwose butandukanye aho usanga ari byiza, abantu mu gihe yagize uburwayi arahagana bakamusuzuma, akabwira uko yiyumva, bakamuha umuti, akagenda akabikurikiza inama bamubwiye agakira.

Amazu y'ubucuruzi by'umwihariko acuruza imiti iyo abantu barwaye usanga ari amazu afasha mu buryo bwinshi butandukanye kuko iyo umuntu agize ikibazo cy'uburwayi aragenda akavuga uko yiyumva, bakamuha umuti, akagenda akawunywa bitewe n'uko babimutegetse agakira.

Hari amazu ashinzwe gucuruza imiti kandi usanga akora neza cyane bitewe nuko n'abantu bakoramo baba barize ubuvuzi bityo iyo urwaye ushaka umuti. Urabagana ukababwira uko wiyumva bakagufasha bakaguha umuti kandi ukagenda ukawukoresha ugakira cyane. Aha hantu ni ahantu heza hafasha mu gutuma ubuzima bw'umuntu bukomeza kurushaho kuba bwiza.

Muri iki gihe ubuvuzi buratera imbere yaba ubw'abantu ndetse n'ubw'amatungo, aho usanga nta matungo agipfira mu rugo kubera kubura miti, hari ubucuruzi bucuruza imiti y'amatungo ndetse n'ibikoresho by'ubworozi bityo umusaruro wabwo ugatera imbere.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'umuntu. Ni byiza ko hajya habaho inama abantu bagasobanurirwa ibyo bakirinda ndetse yaba n'ibyo batanga bakabitanga birinda ubuzima bw'umuntu akagira imibereho myiza. Hano turi kuhabona ifoto y'umuntu barimo gutanga yaba utwo dukingirizo kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza butabamo indwara.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'umuntu, habaho ubukangurambaga abantu bashishikarizwa uburyo barinda ubuzima bwabo, ndetse n'imibereho myiza yabo, ubuzima bwiza butera iterambere ku muntu, ubukangurambaga ku mibereho n'ubuzima bwiza bw'umuntu ni ingenzi.

Mu rwego rwo gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu hari abakoraho ubukangurambaga bushinzwe gukangurira abaturage kugira ubuzima bwiza, birinda ibiyobyabwenge birinda ndetse n'ibindi bintu byose byakwangiza ubuzima bwabo kuko nibwo butuma iterambere rigerwaho. Ni byiza rero ko twajya tujya kwitabira ubukangurambaga tukumva ibyo ubutumwa baba batubwira.

Hari abantu benshi barwara indwara ugasanga yanze kujya kwa muganga ngo bamuvure agakoresha ubuvuzi bwa gakondo, ariko ntabwo ari byiza urabona nk'uyu muntu yararwaye, afite indwara y'uruhu, hanyuma iyo ugeze kwa muganga barakuvura cyane ukamera neza, ukongera ugasubirana ugasubira mu kazi kawe ka buri munsi.

Muri iki gihe abantu benshi ntabwo bakimenya ubuvuzi gakondo, ariko mu by'ukuri ni ubuvuzi bukora kandi bugira umumaro. Hano turi kubona umuntu urwaye amaguru, bari kumwunga bamukandira aho bikangura imitsi akagenda yoroherwa agakira kandi bitagombereye kugira ikindi bamukorera gikabije.

Abantu basigaye barabyibagiwe ndetse na bamwe ntibabizi bavutse nyuma, ariko hari imiti gakondo ivura cyane umuntu agakira kandi itagira ingaruka ku mubiri. Hano turi kubona umuravumba ni mwiza, uvura indwara zirimo inkorora kandi umuntu agahita akira byihuse, ntibigire n'ingaruka ku buzima bwe.

Mu buvuzi imiti gakondo nayo yavuraga kandi n'ubu iracyavura, kandi usanga nta ngaruka igira ku buzima bwa buri munsi cyangwa se ku buzima bw'umuntu, ariko bamwe ntabwo bazi kuyikoresha ndetse barayibagiwe, ni byiza ko twajya duhugurana kuko n'imiti gakondo nayo iravura kandi ntigira ingaruka ku buzima bw'umuntu.

Kera umuntuna yara arwaraga akabura ahantu yivurza, ariko ubungubu amavuriro yarubatswe ku bwinshi, ni ibintu bifasha abarwayi, abagore bagiye kubyara kubona aho bajya ku mavuriro, aho ugenda ukicara mugihe utegereje ugufasha, ubundi abaganga bakakwakira bakaguha serivisi bakakuvura ugakira.

Kera umuntu yararwaraga akabura Ahantu ajya kwivuriza, ariko ubugu ngubu ibikorwa remezo byubatswe ku bwinshi, aho umuntu iyo yarwaye hari amavuriro, ibigo nderabuzima byinshi ku bwinshi, aho abasha kubibona, kandi atagiye gusiragira, atagiye kure. Ni ibintu byiza mu iterambere ry'Igihugu.

Amavuriro arubakwa ku bwinshi nk'ibikorwa remezo n'ababugana bakabona aho bivuriza bitabagoye nka kera byabaga bigoye ko ubona ahantu ujya kwivuriz, ariko kuri ubu si ko bimeze cyane ko abaganga ni benshi babyigiye kandi bafite ubumenyi; bityo iyo umurwayi arwaye ajya kwa muganga akavuga icyo arwaye, bakamufasha bakamuvura agakira, agataha agasubira mu kazi ke ka buri munsi.

Amavuriro yarubatswe ku bwinshi, bityo nta muntu ugisiragira yabuze aho kwivurira, cyangwa umuntu akarwara ugasanga yaryamiye mu rugo araharembera. Ubu ngubu hasigaye harubatswe ya amavuriro aho abamama, abagore, abana n'abagabo iyo barwaye barabagana bakabaha ubuvuzi, cyane ko amavuriro yubatswe ku bwinshi.

Amavuriro yarubatswe kandi abantu bahora babashishikariza mu gihe yagize ikibazo kugana kwa muganga bakamufasha cyane cyane nk'abagore batwite ni byiza kujya kwa muganga bakabakurikirana, bagapima inda, bakamenya ubuzima, bakanaganirizwa ariko mu Rwanda abamama barabyitabira cyane aho bagenda bakabaganiriza, uko umugore atwite biba bimeze ndetse bakabigisha n'uburyo bwo kuboneza urubyaro.

Ubuvuzi mu Rwanda buratera imbere aho amavuriro cyangwa se ibigo nderabuzima byubatswe ari byinshi bityo nta muntu ugisiragira yabuze aho yivurira, yaba ababyeyi bagiye kubyara babona ahantu bavurirwa bityo igihugu kigatera imbere ndetse n'ubuvuzi bukaboneka.

Muri iki gihe ubworozi buri gutera imbere kandi bukabyara umusaruro, ndetse n'ubuvuzi bwayo bwarabonetse cyane, ntabwo amatungo akipfusha. Hari imiti nka tilozine ifasha mu kuvura inka yahuye n'ikibazo, ariko bakadushikariza ko ikoreshwa n'abaganga b'amatungo gusa.

Kera igihugu kitari cyatera imbere mu bikorwa remezo, umuntu yararwaraga akabura ahantu yivuriza, ariko muri iki gihe ibikorwaremezo byateye imbere aho amavuriro arahari ku mubyeyi urwaye ahita abona agezwa ku ivuriro vuba, n' ibintu byiza n'iterambere ryiza imiti isigaye iboneka u Uwanda ruri gutera imbere mu bukungu mu ngeri zose no mu buvuzi.

Ubuzima bw'umuntu ni ubw'ingenzi cyane cyane noneho ubw'umugore utwite, ni yo mpamvu hubatswe amavuriro bityo buri bantu bashishikarizwa kuba bayagana mu gihe bagize ikibazo, nk'umugore utwite agomba gukurikiranwa na muganga akabyarira kwa muganga, kugira ngo hitabwe ku buzima bwe ndetse n'ubw'umwana aba atwite, kandi bitanga umusaruro n'abaturage barabimenye barabigana.

Ibikorwa remezo byarubatswe mu Rwanda, amavuriro arubakwa, imihanda kandi amavuriro ni menshi bituma abantu babona aho kwivurira, tubona inzu z'amasuzumiro ibyo bita mu ndimi z'amahanga santere do sante, aho abarwayi baza bakabasuzuma kandi bakabaha ubuvuzi bakagenda bagakira.